Umwana uri gukaraba intoki ku iriba, akaba yambaye umwenda utukura, hirya ye hakaba hari ibyatsi byinshi, ku iryo riba hakaba hari icyapa gishushanyijeho.

Umugore uteruye umwana, akaba yambaye agapfukamunwa, yambaye n'amaherena n'isaha ku kuboko, inyuma ye hakaba hari undi uhahagaze nawe ateruye umwana.

Abantu babiri bahagaze, umwe ateruye umwana mu ntoki, undi yambaye imyenda y'ubururu, hejuru yabo hari umunzani upima ibiro, imbere yabo hakaba hicaye abandi bantu umwe ateruye umwana.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari abandi bahicaye, bafite uducupa tw'amazi ku meza, iruhande rwabo hakaba hagiye hari n'indangururamajwi, inyuma yabo hakaba hari icyapa kihamanitse.

Abantu babiri bahagaze umwe ahetse igikapu , undi yambaye umupira w'ubururu bose bakaba bambaye udukomo mu ntoki bakaba bahagaze mu nzu.

Abana benshi bari iruhande rw'iriba, bakaba bafunguye amazi ari kumeneka, bakaba bambaye imyenda ya kaki, iruhande rwaho hakaba hari inyubako yubakishijwe n'amatafari.

Abantu benshi bahagaze bafite icyapa mu ntoki bakaba bambaye udupira tw'umweru n'ingofero z'umweru hari n'abambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'umweru, icyapa bafite hakaba handitseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Abantu babiri bicaye, umwe afite ikaramu n'igitabo ari kwandika yambaye agapfukamunwa, akaba hejuru yambaye umwenda w'umweru n'ipantaro y'ubururu, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo "Sida iracyahari duhagurukire tuyirwanye".

Umwana uri gukaraba intoki ku iriba, inyuma ye hakaba hari indobo y'ubururu ihateretse, iruhande rwe na ho hakaba hari indi ndobo ihateretse y'ubururu iriho n'umufuniko wayo.

Abagore benshi bicaye bateruye abana, hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, yambaye n'amarori, hirya ye hakaba hari n'undi wambaye ingofero.

Abaganga benshi bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda, abo baganga bakaba bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa, imbere yabo hakaba hari imyenda y'ubururu, iharambitse myinshi.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe, bamwe bakaba bambaye amakote y'imikara harimo n'uwambaye ikote ry'ubururu, hakaba inyuma yabo ku rukuta hari icyapa kihamanitse kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu benshi bahagaze, bamwe bari hasi abandi bari hejuru yabo, bose bakaba bambaye udupfukamunwa hakaba hari abambaye imyenda y'ubururu, hari n'abambaye amakoti y'umukara.

Umwana usutamye afite indobo mu ntoki y'umuhondo, ashaka kuyikorera, imbere ye hakaba hari iriba, iruhande rw'iriba hakaba hahagaze umugabo ufite ingata mu ntoki.

Abantu babiri bahagaze imbere y'inzu, iruhande rwabo hakaba hari ibintu bitandukanye biri mu makarito, umwe akaba ari umugore ufite imisatsi miremire, ahagaze imbere y'idirishya.

Abantu babiri bari kuvoma ku iriba bose bafite amajerekani, umwe muri bo akaba yambaye igitambaro mu mutwe, hirya yaho hakaba hari ishyamba rinini hari n'ibyatsi.

Umukobwa uri gukaraba intoki, akaba yambaye imyenda y'ubururu, iruhande rwe hakaba hari iriba riri kuvamo amazi, hirya ye hakaba hari ibiti birebire n'utuzu dutoya.

Abantu benshi bari ku iriba bari kuvoma amazi bakoresheje indobo, hari n'abandi bari inyuma yabo bafite amajerekani harimo iy'umuhondo n'iy'ubururu, hakaba hari umugabo uri kubafungurira amazi.

Abantu baje kuvoma ku iriba, umwe ari gupomba amazi abandi bateze utujerekani, hirya yabo hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri kihahagaze iruhande rwacyo hakaba hari ibiti.

Umugore uteruye umwana, uwo mugore akaba afite imisatsi miremire, imbere ye hahagaze umuganga, wambaye imyenda y'umweru, uwo muganga akaba ari umugore, akaba ari gukingira uwo mwana.

Umugabo uri gupima umwana, uwo mwana imbere hari umugore umuteruye, iruhande rwabo hakaba hari undi mugabo wicaye afite ikaramu mu ntoki, imbere yo ku meza hari ibitabo biharambitse, akaba yambaye umwenda w'umweru.

Umukobwa muto, uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje ibiganza, akaba yambaye ikanzu y'ubururu n'agashati k'umweru, hirya ye hakaba hari undi mukobwa, inyuma ye hakaba hari inyubako.

Abana babiri umwe afite igikombe, undi ari kumusukira, undi ari gukaraba, bakaba bambaye imyenda itukura, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi, hejuru y'umwe hakaba hari icyapa gihari cyanditseho UNICEF.

Umuntu uri gukaraba intoki akarabira mu ndobo y'ubururu, imbere ye hahagaze umwana uri kumusukira amazi, bakaba bahagaze imbere y'inzu, iyo nzu ikaba ifite urugi rw'igiti ruriho igitenge.

Abantu benshi bahagaze bambaye amakarita mu ijosi, bakaba bambaye imyenda y'ubururu hagati yabo hahagaze umuntu wambaye ikote ry'umukara yambaye n'amarori.

Abantu baje kuvoma ku iriba, hakaba hari ijerekani y'umukara, iy'ubururu n'izindi z'umuhondo, hakaba hari uri kubavomera wambaye imyenda y'ubururu, ku ruhande hari undi uhahagaze.

Umugabo uri kumwe n'umugore, uwo mugabo akaba yambaye umwenda w'ubururu, akaba afite igishushanyo mu ntoki kiriho umukobwa n'umuhungu, bakaba bahagaze imbere y'inzu.

Umwana uhagaze afite ibirahure bibiri birimo amazi akaba yambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, inyuma ye hakaba hari ikiziba hirya y'icyo kiziba hakaba hahagaze abandi bana.

Abantu benshi bahagaze umwe ari umugore, abandi ari abana bahagaze inyuma ye, uwo mugore akaba yakenyeye igitenge yambaye n'amarori n'abo bana hakaba hari uwambaye ishati itukura.

Umwana uri ku iriba, akaba ari kunywa amazi akoresheje ibiganza, munsi ye hakaba hari indobo ihateretse, hirya ye hakaba hari inyubako, hakaba hari n'ibiti byinshi.

Abantu benshi bahagaze ku murongo hakaba harimo abambaye imipira y'umweru kakaba hari n'abandi babiri bambaye amakanzu, bakaba bahagaze imbere y'icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi.

Abantu bahagaze mu nzu ari benshi, imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, umwe muri bo akaba yambaye imyenda y'umweru, hari n'uwambaye imyenda ikoze mu bitenge.

Abagabo babiri bambaye amakote y'imikara bakaba basuhuzanije bafatanye mu biganza, umwe akaba afite ibitabo mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari indangururamajwi.

Abantu babiri bari kuvoma umwe ari kunywa amazi akoresheje ibiganza iruhande rwabo akaba ahahagaze undi wambaye agapfukamunwa n'ishati itukura, hakaba hari n'amajerekani abiri ahari.

Umusaza wambaye agapfukamunwa, bakaba bari kumutera urushinge, uri kumutera urushinge akaba ari umugore wambaye agapfukamunwa n'umwenda w'umweru.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, kuri iyo nyubako hakaba hari icyapa kimanitseho, imbere yabo hakaba hari ibendera, muri abo bantu hakaba harimo uwambaye ikarita mu ijosi.

Abantu bicaye ku ntebe ndende imbere yabo hari ameza manini ariho uducupa tw'amazi yo kunywa hakaba hariho n'amakayi abo bantu bakaba bafite amakaramu mu ntoki.

Abana babiri bari kuvoma amazi ku iriba, umwe akaba yateze akajerekani hari kujyaho amazi, undi ari inyuma ye ari kupomba amazi akaza. Hirya yaho hakaba hari ibyatsi.

Umuntu wicaye ateruye umwana, yambaye igitambaro cy'umweru n'agapira k'umweru, iruhande rwe hakaba hari undi uhahagaze, hakaba hari n'undi wicaye imbere ye afite igitabo mu ntoki.

Abantu benshi bicaye bakikije ameza, ku meza hakaba hariho uducupa tw'amazi yo kunywa, hirya ku rukuta hakaba hari ibirango by'ibendera ry'u Rwanda.

Abana benshi bahagaze bafatanye ku rutugu, bakaba bahagaze imbere y'inzu ifite amadirishya y'ubururu, abo bana bakaba bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu.

Umugore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga yambaye agapfukamunwa, iruhande rwe hari umuganga ufite igikoresho arimo yumviriza ku nda ye nawe akaba yambaye agapfukamunwa.

Abantu bicaye hari n'abandi bahagaze bose bakaba bambaye udupfukamunwa, umwe wambaye umupira utukura akaba ari gutamika ikinini umwana wicaye imbere ye.

Abantu batatu babiri bambaye imyenda y'ubururu bafite n'ibikarito mu ntoki, hagati yabo hari undi wambaye imyenda y'umweru, babiri bakaba bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, undi yambaye agapfukamunwa k'umukara.

Abana bari kuvoma amazi hakaba hari ijerekani y'umuhondo, umwe akaba ari gupomba amazi akaza, iruhande rwe hakaba hari uhahagaze ufite inkoni akaba yambaye umupira utukura.

Abana babiri bari gukaraba intoki, basutamye, iruhande rwaho hakaba hari iriba bari gutegaho intoki, hasi yaho hakaba huzuye ibiziba, hirya yaho hakaba hari ibyatsi byumye.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza agiye ariho udukombe, umwe akaba yambaye ishati y'umweru n'undi na we yambaye iy'umweru, uri imbere akaba yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Umugore wikoreye indobo itukura, mu ntoki atwaye indi ndobo y'umuhondo, akaba akenyeye igitenge, imbere ye hakaba hari ibiti hari n'ibyatsi byumye.

Abantu babiri bateruye indobo umwe agiye kuyikorera undi, iyo ndobo ikaba irimo amazi, iruhande rwaho hari iriba, inyuma yaho hakaba hari inzu isakajwe n'ibyatsi.

Abantu benshi bicaye imbere y'inzu, hakaba hari umukecuru ugeze mu za bukuru, uhagaze wiyoroshe igitenge mu bitugu, hakaba hari undi wicaye ufite igitambaro mu mutwe.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umuhondo hari n'uwambaye ipantaro y'ubururu bari kubaka akarima k'igikoni bateraho imboga hirya yaho hakaba hari ibiti.

Abantu benshi bicaye, bamwe bambaye amakarita mu ijosi, iruhande rwabo hari akameza, kariho amacupa arimo ibyo kunywa, bakaba bose bari mu nzu.

Abantu benshi bicaye bakikije ameza, imbere yabo ku meza hakaba hari uducupa turimo amazi yo kunywa, hakaba harimo n'ufite ikaramu n'ibitabo, mu meza hagati hakaba harimo indabo z'umutako.

Imodoka itwara abarwayi inyuma yabo hakaba hari amahema, hakaba hahagaze abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inyubako, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibendera.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu bakaba bambaye n'amakarita mu ijosi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, bakaba bahagaze imbere y'inyubako.

Abantu benshi bicaye mu cyumba. Hakaba harimo abafite impapuro, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu, hirya ku ruhande hakaba hari n'uwambaye ingofero. Ku rukuta hakaba hariho urugi.

Umugabo wicaye ku ijerekani y'umuhondo, umugabo akaba ari guseka iruhande rwe hakaba hari iriba yaje kuvomaho amazi, inyuma ye hakaba hari ibyatsi byinshi hari n'inyubako zihari.

Abantu benshi bari iruhande rw'iriba, iriba akaba ari amazi ari kuvamo ajya mu ijerekani y'umuhondo nini, hakaba hari indi jerekani ntoya iri iruhande rwaho.

Umuntu uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje igikombe uwo akaba ari umwana yambaye agapira k'umuhondo, hirya ye hakaba hari ibyatsi.

Abagore bari ku iriba bari kuvoma amazi, umwe yateze indobo amazi ari kujyamo, abandi bari gupomba amazi akaza, bamwe bakaba bambaye ibitenge.

Abantu benshi bicaye mu nzu nini, bakaba bicaye iruhande rw'ameza akoze nk'uruziga ku meza hakaba hariho uducupa turimo amazi yo kunywa, harambitseho n'amakayi na mudasobwa.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'ubururu, bakaba bambaye amakarita mu ijosi, hagati yabo hakaba hari uwambaye ikote ry'umukara, yambaye n'amarori, ku ruhande hari undi uhagaze wambaye umwenda w'umweru.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri kiri mu muhanda wa kaburimbo cyikoreye imizigo miremire, icyo kinyabiziga kikaba gifite ikindi kiri gukurura inyuma yacyo.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu, bambaye n'amakarita mu ijosi bakaba bari gukoma amashyi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye amarori n'ikoti ry'umukara.

Abantu benshi bari ku iriba baje kuvoma amazi, hakaba hari amajerekani y'umuhondo n'ay'icyatsi kibisi, n'ay'umukara, hakaba hari n'amabasi menshi, muri abo bantu hakaba hari uwambaye umupira utukura.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, inyuma yabo hari abandi bahagaze, ku rukuta hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, muri aba bantu hakaba hari uwambaye ikote ry'ubururu.

Abantu benshi bicaye, bamwe bakaba bambaye imipira y'icyatsi kibisi, abandi bambaye imipira y'umweru, bose bakaba bambaye udupfukamunwa, imbere yabo ku meza hakaba hari uducupa turimo amazi yo kunywa.

Umuntu uri kuvoma amazi hirya ye hari abandi bari gupomba amazi akaza, uri kuvoma akaba ari gukoresha indobo y'icyatsi kibisi adaha mu kintu kimeze nk'ikibase cy'icyuma, hirya yaho hakaba hari urukuta ruhubatse.

Abantu bari kubyina bazamuye amaboko hejuru, bakaba bari mu nzu, umwe akaba yambaye ikanzu itukura n'agakote k'icyatsi kibisi, inyuma yabo hakaba hari intebe z'umweru.

Abagore benshi bahagaze imbere y'inzu, abenshi bakaba bambaye ibitenge n'amashati akoze mu bi bitenge, hakaba hari ufite agakapu mu ntoki, inzu ikaba ifite amadirishya y'ibirahure.

Umuntu wambaye imyenda ishaje, hejuru afite umusatsi mwinshi, akaba yicaye mu muferege wuzuyemo imyanda myinshi, akaba afite isashe mu ntoki.

Abantu bicaye umwe muri bo akaba afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hakaba hari ameza ariho agacupa karimo amazi yo kunywa, hakaba harambitse na mudasobwa.

Umuntu wambaye imyenda yashaje icikaguritse, akaba yambaye ibirenge, afite ibisatsi byinshi, akaba ahagaze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda hakaba arimo ikinyabiziga cy'umutende umwe.

Abantu benshi bicaye hari n'abahagaze, inyuma yabo hakaba hari icyapa kihamanitse bakaba bari mu cyumba, muri icyo cyumba hakaba hari amatara ari kwaka.

Abana benshi bahagaze, umwe yambaye ikabutura yambaye n'ibirenge n'ikote, hari ufite ijerekani mu ntoki, bakaba begamye ku giti, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi byumye.

Umuntu wambaye imyenda yacitse, akaba yisize ibintu by'umukara mu maso, akaba ahetse ku rutugu imyenda afite n'igitebo mu ntoki, inyuma ye hakaba hari ikinyabiziga k'imitende ibiri gitwara imizigo.

Umugore ufite imisatsi myinshi yambaye umwenda w'umweru akaba ateruye umwana mu ntoki, bakaba bahagaze imbere y'inzu, iyo nzu ikaba ifite idirishya rifite ibyuma imbere.

Abantu babiri bahagaze, umwe yambaye imyenda ikoze mu gitenge, afite indangururamajwi mu ntoki, afite n'agakapu mu ntoki, hirya yabo hakaba hicaye abantu benshi cyane.

Umugore wicaye ateruye umwana mu ntoki, akaba ateze igitambaro mu mutwe cy'umuhondo, iruhande rwe hakaba hari undi mwana uhicaye, imbere ye hakaba hari ingemeri n'urutaro ruriho ibiribwa.

Umugabo warize amarira yashotse, yambaye umupira w'icyatsi kibisi, akaba afite n'ibimyira biri kumanuka amaso yatukuye.

Abantu benshi bahagaze hakaba harimo uwambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ikote ry'umweru, ku ruhande rwe hakaba hari umugore ufite igikapu mu ntoki.

Abana benshi bicaye hasi, hagati yabo hari umukecuru ugeze mu zabukuru, imisatsi ye yarabaye umweru, muri abo bana hakaba hari ambaye amashati y'ubururu.

Abantu babiri bahagaze, umwe yambaye imyenda yacikaguritse, afite n'ibisatsi n'ibyanwa, undi yambaye neza, bakaba bari mu nzu, uwambaye neza akaba yambaye ishati ikozwe mu gitenge.

Abantu benshi bicaye ku ntebe mu nzu, imbere yabo hakaba hari umugabo uhahagaze ari kwandika, muri aba bicaye hakaba hari uhetse umwana mu gitenge.

Umuntu uhagaze iruhande rw'urugo yambaye ipantaro y'umweru n'ishati irimo amabara atandukanye, akaba ahetse igikapu iruhande rwe hakaba hari icyapa gihari kiriho inyuguti.

Umuntu wicaye afite ibibazo yifashe ku gahanga, imbere ye hari umugore ufite imisatsi myinshi wamufashe ku rutugu, yambaye isaha ku kaboko bakaba bari mu nzu.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako ndende, inyuma ye hakaba hari indabyo z'imitako, iyo nyubako ikaba ifite amagambo yanditseho imbere yayo, ikaba ifite urugi rufiteho ibirahuri.

Umugore mutoya ufite imisatsi migufi wambaye agapira k'umutuku n'undi mwenda w'imbere w'ubururu, akaba yasetse ahagaze imbere y'inyubako.

Umugabo ufite urudodo mu ntoki, yarushyize mu menyo, akaba afite ubwanwa bukeya n'igitambaro yagishyize ku rutugu cy'umweru, akaba yambaye ubusa hejuru.

Abana benshi bahagaze, bakaba bari koza amenyo bakoresheje uburoso, bakaba bafite amacupa mu ntoki arimo amazi bari gukoresha boza amenyo.

Abantu bicaye harimo n'abahagaze, abenshi bakaba bambaye imipira y'icyatsi kibisi umwe muri bo akaba ari koza amenyo, imbere yabo ku meza hakaba hari umuti woza amenyo.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'agapira k'ubudodo mu imbere, akaba afite ubwanwa bwinshi, akaba arimo guseka amenyo yose agaragara.

Abantu benshi bicaye bambaye imipira y'icyatsi kibisi, hakaba hari n'abandi bahagaze harimo abambaye imyenda y'umweru, umwe muri bo akaba yasamishije umwe ari kumukura amenyo.

Umusore wicaye akaba yasetse, afite ubwanwa buke n'umusatsi, akaba yambaye umwenda w'umweru n'agatambaro mu gatuza k'umweru, akaba yicaye mu nzu.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, imbere ye hakaba hahagaze abagabo babiri, uwo muntu akaba yasamye bari kumukura amenyo, umwe muri abo baganga akaba yambaye umwenda w'umweru, undi yambaye uw'ubururu.

Umugabo wicaye, akaba yasetse, afite ubwanwa bwinshi, iruhande rwe hakaba hari akaboko k'umuganga, gafite igikoresho gipima ubushyuhe mu ntoki.

Abantu babiri bahagaze bafite impapuro mu ntoki n'amakaramu, iruhande rwabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu, akaba ariho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Umusore uri guseka, amenyo ari kugaragara, amaso ahumirije, akaba afite umusatsi mukeya, yambaye agapira k'umweru, inyuma ye hakaba hari ibara ry'umuhondo.

Umugabo wasamye, iruhande rwe hari umuganga uri kumuvura mu kanwa, uwo muganga akaba yambaye imyenda y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, bose bakaba bari mu nzu.

Abantu babiri bicaye bari gusoma igitabo, umwe akaba ari umusore undi ari umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yambaye amarori, imbere yabo ku meza akaba hari ibikombe bibiri bihateretse.

Abantu batatu b'abagore bicaye, umwe muri bo yambaye amarori, akaba afite telefoni mu ntoki, abandi bakaba bambaye ingofero imbere yabo, hakaba hari ubudodo bwinshi.

Abantu babiri bahagaze, umwe ageze mu za bukuru bari kumukoresha siporo yarambuye amaboko, umuri imbere akaba afite imisatsi miremire akaba yambaye n'agapira, hirya yaho hakaba hari idirishya ry'kirahuri.

Abantu benshi bahagaze hakaba harimo ufite igare ry'abamugaye, mwabo bahagaze hakaba harimo uwambaye agapira k'umweru, inyuma yaho hakaba hari igiti kinini n'ihema riri ku ruhande.

Abantu babiri bageze mu za bukuru, imisatsi yabo yarabaye umweru, umwe ari umusaza undi ari umukecuru, umusaza akaba afite ibinini mu ntoki, imbere ye ku meza hakaba hari ikirahure kirimo amazi yo kunywa.

Abantu babiri bageze mu zabukuru, umwe ari umusaza undi ari umukecuru, umusaza akaba afite agacupa mu ntoki, akaba yambaye n'impeta, umukecuru akaba yambaye amarori, imbere ye hari mudasobwa.

Abantu babiri umwe yicaye undi amuri inyuma, uwicaye akaba ari umukecuru ugeze mu zabukuru, imisatsi ye yarabaye umweru, undi akiri mutoya yambaye umwenda w'icyatsi kibisi n'uwo mukecuru umwenda we ari umweru.

Umusaza wicaye mu ntebe yambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu, imbere ye hari umukobwa uri kumufungira ibipesu, wambaye agapfukamunwa n'ishati y'icyatsi kibisi.

Abana benshi bicaye harimo n'abahagaze, hakaba harimo n'umukecuru wicaye hagati yabo, wateze igitambaro mu mutwe, harimo n'umugore uteruye umwana.

Abantu bahagaze harimo umukecuru ugeze mu zabukuru n'umusaza, hakaba hari n'undi mugabo n'umugore, hari umwana, uwo musaza akaba yambaye amarori, inyuma yabo hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri.

Umugabo ugeze mu zabukuru, imisatsi yarabaye umweru, akaba yambaye amarori, imbere yo ku meza hakaba hari igitabo ari kwandikamo n'ikaramu.

Abakecuru bicaye iruhande rwabo harambitse igikapu, inyuma yabo hari intebe z'umweru, bakaba bambaye imyenda ikozwe mu bitenge, inyuma yabo hakaba hari urutoki.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ufite imisatsi yabaye umweru, inyuma ye hakaba hahagaze umukobwa ukiri muto wambaye umwenda w'icyatsi kibisi bakaba bari mu nzu.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yitwaje inkoni, iruhande rwe hakaba hari undi mugore wambaye umwenda w'umweru n'isaha ku kaboko, bose bakaba bari mu nzu mo imbere.

Abantu babiri bicaye, umwe ari umusaza ugeze mu zabukuru, imisatsi ye yarabaye umweru uvanze n'umukara, uwo wundi akaba ari umuganga, yambaye imyenda y'umweru.

Abantu babiri bicaye bageze mu zabukuru, umwe ari umusaza undi ari umukecuru, imisatsi yabo ikaba yarabaye umweru, imbere yabo ku meza hakaba hari ikirahure kirimo amazi yo kunywa.

Abantu babiri bahagaze, umwe ari umusaza ugeze mu zabukuru, bakaba bafatanye ibiganza bari imbere y'inzu, uwo musaza akaba yambaye amarori, undi ari umugore ufite imisatsi miremire.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, akaba ari umusaza ugeze mu za bukuru, iruhande rwe hakaba hari umuganga uhahagaze wambaye imyenda y'umweru, ku rundi ruhande hakaba hari ibyuma bifasha gupima umutima.

Abantu babiri, umwe ari umugabo ugeze mu zabukuru yambaye amarore, imisatsi yarabaye umweru, yambaye agapira k'umutuku undi ari umukecuru ugeze mu zabukuru.

Abantu batatu bari guseka, umwe ari umukecuru ugeze mu za bukuru, imisatsi ye ikaba ari umweru n'umukara, undi yambaye amarori, undi akaba ari umwana.

Abantu babiri bari muri siporo, bose bageze mu za bukuru, umwe ari umugore, undi ari umugabo, umugore akaba yambaye isaha ku kaboko, yambaye n'agapira k'umweru.

Abantu babiri bahagaze umwe ageze mu zabukuru yambaye amarore afite ikirahure mu ntoki kirimo icyo kunywa, undi afite imisatsi myinshi imbere ye ku meza hakaba hari imboga hari n'imbuto zigiye zitandukanye.

Abantu babiri bicaye bageze mu zabukuru, umwe ari umusaza yambaye amarori, undi ari umukecuru, umusaza akaba afite telefone mu ntoki, ku meza harambitseho impapuro n'ikaramu.

Abantu babiri bari kugenda, umwe yambaye umwenda w'umweru hejuru n'ipantaro y'umukara, undi yaba yambaye umwenda w'umweru ku rutugu afite igitambaro cy'umukara.

Umusaza ugeze mu zabukuru wicaye mu igare ry'abamugaye, akaba afite imisatsi yabaye umweru, yambaye amarori, inyuma ye hari umukobwa uri guseka, akaba ari kumusunika mu iryo gare.

Umugabo ugeze mu zabukuru wicaye akaba yambaye amarore, iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umwenda w'ubururu afite n'imisatsi miremire, akaba ari gupima uwo mugabo.

Umuntu uri gukora siporo, hari undi uri kumufasha afite umugozi mu ntoki ari kuwukurura, uwo muntu akaba ari umusaza ugeze mu za bukuru, bose bakaba bari mu cyumba mu nzu.

Abantu benshi bari mu nzu irimo amatara ari kwaka, bamwe bakaba bicaye ku ntebe, abandi babahagaze inyuma, hakaba harimo abambaye amakote, barimo n'uwambaye umupira w'umweru.

Abantu babiri bahagaze, umwe ari umugore undi ari umugabo, bakaba bafashe ibirango mu ntoki by'ibyapa, umugore akaba afite igifite ibara ry'ubururu n'icyatsi kibisi n'umugabo.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari abandi bicaye barebana, hakaba hari ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho bibiri na makumyabiri na kane.

Umuntu wambaye agapfukamunwa n'umwenda w'ubururu, bari kumutera urushinge, uri kumutera urushinge akaba yambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru yambaye n'ingofero.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi.

Abantu benshi bicaye inyuma yabo hahagaze abandi bantu, inyuma ku rukuta hakaba hariho ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi, hakaba handitseho n'amagambo, hakaba hari n'amabendera abiri ari inyuma yabo.

Abantu babiri bahagaze bafite ibyapa mu ntoki, umwe akaba ari umusore, undi akaba ari umukobwa, inyuma yabo hakaba hari intebe z'umweru, imbere yabo ku ruhande hakaba hari imeza.

Umugore uhagaze ufite imisatsi miremire, akaba yambaye amaherena, yambaye umwenda w'ubururu ufite ibara ry'umuhondo, imbere ye hakaba handitse amagambo atandukanye.

Umugabo uhagaze afite indangururamajwi, inyuma ye ku rukuta hakaba hari amagambo, ku ruhande hakaba hari igitereviziyo kinini kirimo ishusho y'uwo mugabo.

Abantu babiri bahagaze bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo "twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira". Inyuma yabo, hakaba hari ibendera ry'igihugu.

Umuganga yicaye ari gupima umwana amwicaye imbere, uwo muganga akaba yambaye agapfukamunwa n'umwenda w'umweru, uwo mwana nawe akaba yambaye ishati y'umweru.

Umuntu wambaye imyenda yikwije hose hose y'umweru, imbere ye hakaba hateretse indobo y'icyatsi kibisi, akaba ahagaze imbere y'inzu, iyo nzu ikaba yubakishijwe n'ibirahure, hirya hakaba hari indi ndobo y'ubururu.

Icyumba kinini, muri icyo cyumba hakaba harimo amatara ari kwaka, hakaba harimo n'ibitanda, n'intebe, hasi hakaba hubakishijwe n'amakaro, ku rukuta hakaba hagiye hariho ibishushanyo by'inyamaswa zitandukanye.

Inyubako ndende igiye igeretse ikaba ifite amadirishya y'ibirahure imbere yaho hejuru hakaba handitseho ngo inzu y'ababyeyi n'impinja, hejuru hakaba hariho amabati.

Inyubako ndende igeretse, imbere y'iyo nyubako hakaba hari indabo z'imitako, ku ruhande hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri kihahagaze, hirya yaho hakaba hari ikindi kinyabiziga cy'imitende ibiri kiri mu ibara ry'umweru.

Inzu yo kwa muganga, ikaba ifite idirishya ry'ikirahure, imbere yaho hakaba hari umugabo uhahagaze wambaye imyenda y'umweru, iruhande rwe hakaba hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umurima muremure ufite ibyatsi byinshi cyane, imbere y'uwo murima hakaba hari amatara yo ku muhanda, hirya y'aho hakaba hari inzu nini cyane igiye igeretse.

Inzu ebyiri zo guturamo zikaba zubakishijwe n'amabati atukura, imwe ikaba isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya y'ibirahure, imbere ya hakaba hari indabo zihari z'imitako.

Abantu benshi bari mu cyumba, bamwe bakaba bahagaze, abandi bicaye, bose bakaba bambaye imyenda yo hejuru y'umweru, hakaba hari uwambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru zifite ibara ry'umukara.

Inyubako ndende igeretse, imbere y'iyo nyubako hakaba hahagaze abantu barimo umugore uteruye umwana, harimo n'umugabo wegamye ku rukuta, mo imbere mu nyubako hakaba harimo n'abandi bantu bahagazemo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bya siporo, mu icyo cyumba hakaba harimo amatara ari kwaka, hakaba hari na televiziyo imanitse ku rukuta hasi hakaba hubakishijwe n'amakaro.

Inzu nini cyane, hejuru yaho hakaba hariho amagambo yanditseho, iyo nzu ikaba ifite imiryango ibiri itandukanye, umuryango umwe ukaba ugizwe n'ibirahuri.

Inzu nini cyane, imbere y'iyo nzu hakaba hari indabo, kuri iyo nzu ku rukuta hakaba hari ibyapa bihari, hakaba hariho icyanditseho ijisho, hakaba hariho amagambo avuga ko aho ariho bavurira amaso.

Icyapa kinini cyane munsi y'icyo cyapa hakaba hari indabo, iruhande rwabo hakaba hari umuhanda, hirya y'umuhandakaba hari inyubako ndende cyane ikaba ifite idirishya ry'ikirahure.

Abantu batatu bahagaze, bakaba bambaye imyenda y'ubururu n'ibitambaro mu mutwe by'umweru, inyuma yabo hakaba hari ibiti binini, hakaba hari n'ibyatsi byinshi.

Urugo rwubakishijwe ibyuma, munsi hubakishije amabuye, mo imbere hakaba hari ururabo, imbere yaho hakaba hari inyubako yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Icyapa kinini kiri iruhande rw'umuhanda, imbere y'icyo cyapa hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hakaba hari ibinyabiziga by'imitende ibiri bihagaze imbere y'inzu ebyiri zegeranye.

Inyubako ndende igeretse rimwe, imbere yaho hahagaze ikinyabiziga k'imitende ibiri, gifite ibara ry'umukara, imbere yaho hakaba hari urugo rwubakishijwe ibyuma, iruhande rwaho hari icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hakaba hagiye hariho ibara ry'umuhondo n'umukara, hakaba hari n'ururabo rurerure, imbere y'uwo muhanda hakaba hari inyubako ndende, ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Inzu ndende zigiye zigeretse, imbere y'izo nzu, hakaba hari ibinyabiziga by'imitende ibiri bihahagaze, hakaba hari n'indabo z'imitako, imbere y'inzu hakaba hari urugo, iruhande rw'urugo, hakaba hari icyapa gihari.

Abantu babiri bicaye, umwe ari umuganga wambaye imyenda y'ubururu, undi akaba ari umukecuru ugeze mu zabukuru, wambaye imyenda ikozwe mu gitenge, akaba yambaye n'igitambaro mu mutwe.

Inzu yubakishijwe n'amatafari, isakajwe n'amabati y'ubururu, kuri iyo nzu hakaba handitseho ngo materinite inzu y'ababyeyi, kuri iyo nzu munsi yaho hakaba hari indabo z'umutako ebyiri.

Umuntu uhetse umwana, akaba afite igitambaro cy'umweru mu ijosi, akaba ahagaze imbere y'amarembo, kuri ayo marembo hakaba handitseho hejuru amagambo, mo imbere hakaba harimo inzu.

Umuntu wicaye bari kumutera urushinge, hari undi uhagaze ari kumutera urushinge, wambaye ikarita mu ijosi, akaba yambaye n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inzu nini cyane mo imbere mu nzu hakaba harimo amatara ari kwaka, hakaba hari n'ibishushanyo biri ku rukuta, imbere y'ibyo bishushanyo biri ku rukuta hakaba hari intebe, hari iz'ubururu, hakaba hari n'ameza.

Umuntu uhetse umwana afite igitambaro cy'umweru mu ijosi, ahagaze imbere y'amarembo, ku ayo marembo hejuru hakaba handitseho amagambo, hakaba hariho urugi rw'ibyuma.

Inzugi ebyiri zifatanye, hejuru zifiteho ibirahure, hejuru yi'ibirahure hakaba hari amagambo yanditseho mu cyongereza, izo nzugi zikaba ziri mu nzu mo imbere, ku rukuta hakaba hariho ibara ry'umweru.

Abantu bari kugenda mu muhanda ushashemo amabuye, umwe akaba afite ibase mu ntoki, iruhande rwabo hakaba hari indabo z'umutako, inyuma yabo hakaba hari inyubako zihari.

Inzu nini yubakishijwe n'amatafari, ikaba ifite urugi rufite ibara ry'umuhondo n'ikirahure, imbere y'iyo nzu hakaba hari intebe ebyiri, hakaba hari n'umugabo uhahagaze.

Inzu yubakishijwe n'amatafari, ikaba ifite idirishya ry'ikirahure, hejuru ku nzu hakaba handitseho ngo: aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inzu nini igeretse kenshi, iruhande rumwe hakaba hubakishijwe n'ibirahure, ahandi ari amatafari, hasi imbere yayo hakaba hari intebe z'umuhondo zihari, imbere yaho hirya hakaba hari indabo z'umutako.

Ubusitani bunini burimo ibyatsi n'indabo zitandukanye, hirya yaho hakaba hari amatara yo ku muhanda hakaba hari n'ibigega byinshi by'imikara, imbere yabo hakaba hari inyubako yubakishijwe n'amabati.

Abantu bicaye bambaye imyenda y'umweru, imbere yabo ku meza hari icupa rifite ibara ry'umuhondo, ameza akaba afite ibara ry'umweru.

Icyapa kinini kigiye cyanditseho amagambo mu Gifaransa, iruhande rwacyo hakaba hari urugo rufite ibyuma biriho irangi ry'ubururu, iruhande rw'ibyo byuma hakaba hari igiti kirekire, mo imbere mu rugo hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri.

Inyubako ndende ikaba yubakishijwe n'ibirahure mo hagati, hejuru hakaba hariho icyapa kihanditse mu nyuguti z'umutuku, imbere yaho hakaba hari indabo zihari z'umutako.

Isoko rya kijyambere rigezweho, ririmo ibicuruzwa bitandukanye bigiye bigerekeranye, bikaba biri mu nzu irimo amatara arimo kwaka, muri ibyo bicuruzwa bikaba bimwe biri mu makarito ibindi biri mu macupa.

Ibikoresho bya siporo bitandukanye, harimo umugozi wo gusimbuka n'inkweto n'igikoresho cyifashisha bapima umutima n'imbuto zigiye zitandukanye, hakaba harimo inyanya n'izindi.

Ibyo kurya bitandukanye by'imbuto, hakaba hari ikirahure kirimo umutobe, inyuma yacyo hakaba hari icyuma giterurwa n'abakora siporo, muri ibyo byo kurya hakaba harimo inkeri, harimo n'ibindi bitandukanye.

Ameza ateretseho ibyo kurya bitandukanye hakaba hari n'ibyuma biterurwa n'abakora siporo, hari agacupa karimo amazi yo kunywa n'ibyo byo kurya hakaba harimo amagi, inyama hakaba harimo n'imbuto.

Umuntu uri gukora siporo yarambuye akaguru kamwe akandi gahinnye yambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara, akaba ku kaboko ke yiziritseho igipima amaraso.

Umuntu wicaye yambaye ikabutura afite igipfuko cy'umweru ku kaguru, akaba yicaye ku buriri yambaye umupira ufite amaboko maremare, akaba ari mu cyumba.

Umusore ufite icupa ririmo amazi, akaba ari kuyisukaho mu maso, ari menshi, akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi, akaba yambaye n'agatako ku kaboko.

Imipira ya siporo itandukanye, hakaba harimo uwu mupira w'amaguru, harimo n'iyi mikino y'amaboko, umwe muri yo ukaba ufite forume y'uruziga.

Umuntu uri gukora siporo yarambuye akaguru kamwe n'akaboko akandi yagahinnye, akaba yambaye ipantaro y'umukara inyuma ye hakaba hari intebe z'umweru.

Umuntu wari uri gukora siporo, akaba afite icupa ry'amazi. Akaba yariteretse ku munwa ari kuyanywa, iruhande rwe hakaba hateretse igikapu cy'umukara. Akaba yambaye umupira ufite ingofero.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, akaba yubitse inda yiyoroshe igitambaro cy'umweru, iruhande rwe hakaba ari umuganga uhari wambaye agapfukamunwa, inyuma ye hakaba hari ibitambaro by'ubururu.

Umusore uri gukora siporo yambaye ikabutura y'umukara n'agasengeri k'umukara, yambaye n'inkweto akaba yarambuye amaboko yazamuye n'akaguru hejuru akaba yambaye isaha ku kaboko.

Umuntu uri kwinanura akaba yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, akaba yicaye ku buriri, iruhande rwe hakaba hari ibitambaro byo ku madirishya, ku rukuta hakaba hasizeho irangi ry'umweru.

Agacupa karimo amazi yo kunywa, inyuma yako hakaba hari imbuto zigiye zitandukanye, muri izo mbuto inyuma yazo hakaba hari igikoresho cyifashishwa bakora siporo.

Umuntu wicaye ari gukora siporo, akaba yarambuye akaguru yahinnye n'umutwe amaboko yose yayafatishije ku kaguru, akandi kakaba gahinnye akaba yambaye impeta mu ku rutoki.

Umuntu uri gukora siporo, akaba yiziritse umugozi ku kaboko kamwe, n'akandi, akaba ari gukurura, iruhande rwe hakaba hari umuganga uri kumufasha gukora siporo.

Umuntu uri gukora siporo, akaba yunamye yambaye isaha ku kaboko n'inkweto z'icyatsi kibisi, akaba yambaye agakabutura k'umukara, afite n'agatambaro yaziritse ku mutwe.

Umuntu uri gukora siporo, iruhande rwe hakaba hari imbuto zigiye zitandukanye, hakaba hari izifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, hakaba harimo indimu, harimo n'imineke.

Ibikoresho byo kwa muganga hakaba harimo iby'ubutabazi bw'ibanze, hakaba harimo umukasi, hakaba harimo n'inshinge n'ibinini bitandukanye, harimo iby'umweru n'iby'umuhondo.

Umuntu wicaye, akaboko k'ibumoso kuzuyeho ibipfuko n'ak'iburyo kariho ibipfuko byinshi, bari gushyiraho n'ibindi, akaba yambaye agakomo ku kaboko, hakaba hari undi uri kumushyiraho ibyo bipfuko.

Umuntu w'umusore ufite ubwanwa, yazamuye akaboko afite agacupa mu ntoki ari gusuka amazi mu kanwa, akaba yambaye akenda k'icyatsi kibisi.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga akaba yavunitse akaguru kakaba gahambiriyeho ibyuma, iruhande rwe hahagaze abagabo hari n'umukobwa wambaye ishati y'umweru wegamye ku rukuta.

Umuntu uryamye ku gitanda, hari undi uhagaze ari mukanda akaguru, uryamye akaba yambaye ikabutura na ho uri kumukanda akaba yambaye imyenda y'umweru.

Umuntu wicaye ku gitanda yambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umukara, imbere ye hari undi usutamye uri kumuzirika ku kaguru, uwo wicaye akaba yambaye nawe umupira w'umukara.

Umusore uri gukora siporo yateruye icyuma, imbere ye hakaba hari amashu, hari n'inyama, hari n'agacupa karimo amazi yo kunywa, hakaba hari n'amagi.

Abantu benshi bahagaze, bambaye ibitambaro bisa by'ubutabazi bw'ibanze, bakaba bari mu nzu, hakaba hari uryamye ku kiringiti, hari n'umufashe mu ntoki.

Umuntu uri gukora siporo, akaba ari kuzikorera mu nzu, hasi hakaba hashashe tapi y'icyatsi kibisi, inyuma ye hakaba hari imipira ya siporo, ku rukuta hakaba hariho irangi ry'umweru.

Abantu bahagaze mu cyumba bamwe bambaye imyenda y'umweru, harimo n'uwambaye ikote ry'umukara, imbere yabo hakaba hari icyuma kiriho televiziyo, hirya yabo hakaba hari abarwayi bicaye kutanda.

Umuntu w'umusore ahagaze yazamuye amaboko hejuru ari kwisukaho amazi mu maso akoresheje agacupa, akaba afite agatambaro ku kaboko yambaye n'agapira k'icyatsi kibisi.

Umuntu wicaye yambaye isengeri y'umukara, afite agakomo k'icyatsi kibisi ku kaboko, akaba afite agacupa karimo amazi yo kunywa mu ntoki, akaba afite ubwanwa, yicaye iruhande rw'umuhanda.

Umuntu wicaye yambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umukara, bakaba bari kumupfuka ku kaguru, uri kumupfuka akaba yambaye imyenda y'ubururu, uwo wicaye akaba yambaye urukweto rumwe.

Abantu babiri umwe yicaye yambaye imyenda y'umukara, hari undi uhagaze bari kwigisha kugenda akaba yambaye agapira k'umweru, bakaba bari mu cyumba.

Umuntu uri kwinanura yazamuye amaboko hejuru, akaba afite imisatsi myinshi, yambaye akenda ko hejuru k'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hakaba hari amazi menshi cyane.

Abantu bari mu kibuga bari gukina, bamwe bakaba bambaye amakabutura y'umukara n'umwenda hejuru w'umweru, abandi bakaba bambaye amakabutura y'umweru n'umwenda hejuru w'umweru uriho akabara k'umukara kamanuka.

Umuntu uri gukora siporo akaba asutamye yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara iriho akabara k'umweru, imbere ye hakaba hahagaze undi muntu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu.

Umunwa w'umuntu, akaba yasetse amenyo yo hejuru agaragara, munsi ye hakaba hari umuti w'amenyo urambitse hejuru ku meza, iruhande hakaba hari amagambo ahanditse.

Icupa rinini ririmo umuti iryo cupa rikaba ririho amagambo yanditseho, hakaba handitseho ngo umuravumba, hakaba hashushanyijeho n'ibibabi byawo.

Umuntu w'umuganga wicaye yambaye agapfukamunwa n'ingofero mu mutwe y'ubururu, akaba yambaye umwenda w'umweru mu imbere harimo ishati y'ubururu, imbere ye ku meza hakaba harambitse imiti myinshi iri mu makarito no mu macupa.

Umugore wunamye wambaye igitambaro cy'umweru mu ijosi, imbere ye hakaba hahagaze umugabo, hagati yabo hakaba harimo amacupa menshi cyane arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Umuntu uhagaze mu isoko imbere ye hakaba hari amacupa atandukanye, inyuma ye hakaba hagiye hari imbuto nyinshi, inyuma ye hakaba hahagaze n'abandi bantu benshi hakaba hari uwambaye umupira utukura n'uwambaye umwenda w'icyatsi kibisi.

Ibyatsi bakoramo imiti, ibyo byatsi bikaba bifite ibibabi binini, bikaba byitwa imiravumba, inyuma yaho hakaba hari ibindi byatsi, harimo ibifite amahwa.

Imiti igiye itandukanye iri mu macupa atandukanye ndetse n'amakarito, hakaba hari iri mu icupa ry'umuhondo ririho icyatsi n'ari mu macupa y'umweru, ku ruhande hakaba hagiye hari ibibabi bitandukanye.

Imiti iri mu moko atandukanye, hakaba hari iy'ibyatsi, hakaba harimo tungurusumu, harimo n'indi miti igiye itandukanye, hakaba hari ifite ibibabi binini, n'igiye ifite utubabi dutoya.

Uburoso bwoza amenyo bubiri buteretse mu gikombe, iruhande rw'icyo gikombe hakaba hari umuti w'amenyo, iruhande rwawo hakaba hari udutambaro tubiri, hirya yaho hakaba hari urundi rurabo ruri mu gicupa.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye bikaba biri mu macupa, harimo amanini n'amatoya bikaba bigiye bigerekeranye, bimwe biri hasi, ibindi biri hejuru, inyuma yabyo hakaba hahagaze umuntu.

Agasekuru gatoya karimo umuhini bakoresha basekura imiti, bikaba bifite ibara ry'umweru, iruhande rw'ako gasekuru hakaba hari imiti igiye itandukanye.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ikibabi cy'umwumbati, uwo mwumbati ukaba ugiye ufite utubuto, hirya yaho hakaba hari inzu, iyo nzu ikaba yubakishijwe n'amatafari.